Abana b'incuke bari mu ishuri kumwe na mwarimu wabo, aho yifashisha udukarito, ibishushanyo ndetse n'ibindi bikoresho by'amabara atandukanye kugira ngo abashe kwigisha aba bana b'incuke, babashe gusobanukirwa byihuse.

Ni ishuri ryigishirizwamo abana b'inshuke biganjemo abakobwa n'abahungu, bahabwa ingwa na mwarimu wabo, bakajya ku kibaho bitoza gusubiramo ibyo bigishijwe na mwarimu wabo.

Ishuri ryigishirizwamo abana b'incuke, biganjemo abakobwa n'abahungu bari kumwe na mwarimu wabo ku ruziga, aho abigisha amasomo ateganijwe binyuze mu buryo bw'imikino.

Mu ishuri ryigishirizwamo abana b'incuke, rizwi cyane nk'irerero, aho ababyeyi bigisha aba bana barimo gusabana nabo, ndetse bakabigisha binyuze mu mikino, kuko bifasha abana gukanguka.

Ishuri ry'incuke ryigishirizwamo abana b'abahungu n'abakobwa, bambaye inifomo zisa, aho ryiganjemo ibishushanyo by'amabara atandukanye byanditse inyuguti biga bibafasha kumenya gusoma no kwandika neza.

Ni abana bato b'incuke, biganjemo abakobwa ndetse n'abahungu, bakoze uruziga imbere y'ishuri ryabo, bigishwa na mwarimu wabo imikino itandukanye. Ni byiza kwigisha abana bato, binyuze mu mikino.

Abana b'incuke biga mu irerero aho bari kumwe na mwarimu wabo abatoza uko bakora imirongo igororotse. Bari ku murongo aho barikwegera ubukarabiro kugira ngo bitoze gukaraba mu ntoki.

Ishuri riherereye hafi y'umuhanda wa kaburimbo ryigishirizwamo abana b'incuke ndetse bicaranye ku meza, aho mwarimu wabo ari kubereka ibishushanyo bitandukanye abasobanurira neza.

Ishuri ryigishirizwamo abana b'incuke, ryiganjemo ibishushanyo by'amabara atandukanye ndetse n'ikibaho cyanditseho ibyo mwarimu abigisha, ni byiza kwita kuri aba bana, kuko bibafasha cyane mu myigire.

Ishuri rizwi nk'amarerero rusange yigishirizwamo abana b'inshuke, bari kumwe na mwarimu wabo ku ruziga abigisha binyuze mu mikino kugira ngo babashe gukura mu bwonko ndetse no gutekereza bikwiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bagenda mu muhanda munini cyane wegereye ishuri ryabo ariko ukaba uca no mu isoko. Aho bamwe bagenda bikoreye imyaka bayijyanye ku isoko mbere yo kujya ku ishuri. Si byiza gukoresha abana imirimo ivunanye nk'iyi.

Umwarimu wigisha abana b'incuke, aho afite ikayi n'ikaramu ndetse akaba yigisha abanyeshuri uko bandika mu turongo tw'ikayi. Ni byiza kwita ku bana nk'aba b'incuke mu gihe babigisha kugira ngo babashe gukura bazi gusoma no kwandika.

Umuhanda munini cyane w'igitaka wegereye ikigo cy'ishuri, aho abanyeshuri biga mu mashuri abanza bawugendamo ndetse batarangaye kugira ngo hatagira ikinyabiziga kibasha kubagonga igihe bari kwambuka.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, biganjemo abahungu ndetse n'abakobwa, aho batwaye ibikoresho ku gikoni bifashisha bazana ibyo kurya. Bafatira amafunguro ya saa sita ku ishuri.

Ni icyapa kinini cyane giherereye hafi y'umuhanda, gihanitse ku nyubako ndende cyane, cyanditseho indangagaciro ndetse na kirazira, by'abaturage baherereye muri aka gace.

Ishuri ryigishirizwamo abana b'inshuke ndetse bakanagaburirwa amafunguro ya saa sita. Ni byiza ko abana nk'aba bagaburirwa hitawe ku isuku y'ibiribwa kugira ngo batabasha kwandura indwara ziterwa n'umwanda.

Iri ishuri rinini ryigishirizwamo abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho ririmo ibikoresho bitandukanye nk'ibitabo, ingwa ndetse n'amarati arimo yifashisha mu kwigisha abanyeshuri isomo ry'imibare.

Umurimo munini cyane, uherereye ku musozi ukorerwamo ubuhinzi bw'icyayi, aho cyitabwaho kigashyirwaho ifumbire, ndetse kikabagarwa ku gihe, kugira ngo kibashe kuzahura ubukungu bw'abahinzi bacyo.

Ku ishuri ryigishirizwamo abana b'incuke. aho ryiganjemo ibishushanyo bitandukanye nk'inyoni, amababi, ibinyampande bitandukanye byifashishwa na mwarimu wabo, mu kubigisha uko bikwiye.

Ishuri rinini cyane, iruhande rwaryo hari ikibuga gikinirwamo imikino y'intoki, ndetse abanyeshuri bitorezamo, bakanakoreramo imyitozo ngororamubiri, igihe cyo kuyiga.

Abana biga mu mashuri ya pirimeri, bicaye hamwe na mwarimu wabo bakoresha laptop, abafasha kugira ngo babashe kumenya uburyo bwo kuyikoresha, ni byiza ko abarimu bafasha abanyeshuri mu myigire yabo kugira ngo batsinde neza.

Ishuri ryigirwamo abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye uniform y'ubururu ndetse na kaki ku bahungu. Iri shuri ryegereye umuhanda ndetse ni byiza ko abarimu bigisha abanyeshuri uko bakoresha umuhanda neza.

Ni umupira ubangishijwe ibirere ndetse n'ibitambaro, abana bajya bawifashisha cyane, mu gukina umupira w'amaguru bidagadura, igihe bahuriye hamwe.

Ikigo cy'ishuri giherereye hafi y'umuhanda kigizwe n'inyubako nziza cyane zisakaje amabati y'ubururu, ndetse hari ubusitani bwiza cyane bugizwe n'indabo ndetse n'ibiti abanyeshuri baruhukiramo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, aho bahuriye hamwe biganjemo bambaye imyenda y'umukara ndetse n'iy'umuhondo, bita ku mukinnyi wabo umwe uhuye n'impanuka mu kibuga akavunika ukuguru.

Ni ikigo cy'ishuri cyigishirizwamo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye inifomu zigizwe n'imikara, ndetse n'imyeru, bakoraniye ku kibuga cy'iri shuri baganirizwa n'abarezi babo.

Ishuri rinini cyane risize amarangi y'umweru ryiganjemo intebe ndetse n'utubati, ryigishirizwamo abana biga mu mashuri yisumbuye ndetse bafashwa n'abarimu babo kwiga neza kugira ngo batsinde.

Ni ikigo cy'ishuri rinini cyane, cyahuriweho n'abarezi ndetse n'abanyeshuri babo, aho bahuriye mu kibuga cy'iryo shuri, baganirizwa ku bigendanye n'imyigire yabo muri iki gihembwe batangiye.

Ni ishuri rinini cyane rigizwemo n'amarange y'umuhondo ndetse n'ikibaho cy'umukara, abanyeshuri barimo kumwe na mwarimu wabo abigisha ibigendanye n'umwuga w'ubudozi, kugira ngo bazabashe kwiteza imbere.

Ishuri ryisumbuye ryigirwaho abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye uniform y'ubururu ndetse na kaki, aho bakoranirijwe n'abayobozi babo imbere y'ishuri, baganirizwa ku bigendanye n'amasomo yabo.

Ni ishuri ryigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye inifomo y'amashati y'umweru ndetse hasi bakambara kaki, bakurikiye ibyo mwarimu abigisha ku kibaho, ndetse bamusobanuza aho batabyumvise.

Ishuri rinini cyane ryiganjemo abanyeshuri bambaye inifomu zisa, aho bateraniye hamwe mu ishuri bakurikiye ku kibaho ndetse bandika ibyo mwarimu abigisha kugira ngo bazabashe gutsinda neza amasomo yabo.

Ishuri ryigishirizwamo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho bicaye ku ntebe z'umweru, bakurikiye ku kibaho, ibyo bigishwa na mwarimu wabo kugira ngo babashe kumubaza ibyo batumvise kandi bazabashe gutsinda neza mu gihe cy'ibizami.

Iri shuri rinini cyane, risakaje amabati y'umutuku, ryiganjeho ibiti bitandukanye ndetse n'ubusitani burimo indabo na pasiparumu. Abanyeshuri bakunda gukiniraho ndetse mu masaha yo kuruhuka baba bicayemo.

Ni isomero riherereye ku kigo cy'ishuri ryigishirizwamo abana, amashuri yisumbuye, higanjemo ibitabo by'abanyeshuri ndetse n'iby'abarimu, bibafasha mu gutegura amasomo yabo neza.

Ishuri rinini cyane, risize amarange y'umweru ndetse riteyemo na sima. Harimo akabati ndetse n'ameza, byifashishwa na mwarimu arambikaho ibikoresho byiwe mbere yuko yigisha abanyeshuri.

Ishuri rinini cyane ryigishirizwamo abanyeshuri biganjemo abasore ndetse n'inkumi ibigendanye n'ubuvuzi bw'amatungo, bari kugenzura ibikoresho bakoresha mu gukora umurimo wabo wo kuvura amatungo.

Ni icyapa kinini cyane, giherereye hafi y'umuhanda wa kaburimbo. Kigaragaza ko hafi y'uwo muhanda hari ishuri ryigisha ibigendanye n'imyuga n'ubumenyingiro, ndetse ababishaka bakigana.

Ikibuga kinini cyane giteyemo sima ndetse kirimo imirongo abakinnyi bahagararamo bakina. Gikinirwamo umukino wa basikete, aho abakinnyi bari muri iki kibuga barimo gukina bahanganira igikombe.

Icyapa kinini cyane, giherereye ku muhanda, iruhande rwacyo hari ibendera ry'u Rwanda, kigaragaza ko hafi aho hari ikigo cy'ishuri ndetse hatangirwa amasomo atandukanye, ku banyeshuri bagana iryo shuri.

Ishuri rinini cyane ririmo intebe, ndetse riteyeme sima. Hari ikibaho cyifashishwa na mwarimu mu kwigisha abanyeshuri, aho bari kwiga imibare yo gukora mu matsinda. Ni byiza gufasha abanyeshuri gusubiza ibibazo nk'ibi, kugira ngo babashe kubyumva.

Ni inyubako ndende cyane ikikije ikigo cy'ishuri ndetse iriho n'icyapa kigaragaza izina ry'iryo shuri, hariho ibiti biri insinga zifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibiti by'imbuto ziribwa zitandukanye, nka voka n'imyembe ndetse hakaba na pasiparumu abanyeshuri bicaramo baruhuka.

Umuntu wambaye itaburiya ndetse n'ipantaro y'umukara uri mu ishuri akoresha ibizami, arafasha abanyeshuri gusoma amategeko n'amabwiriza agenga ibizamiini kugira ngo babashe gukora neza.

Isomero riherereye ku kigo cy'ishuri ribitswemo ibitabo by'amoko atandukanye, abanyeshuri biga kuri iri shuri babyifashisha mu gihe cyo gusubiramo amasomo yabo, kugira ngo babashe gusoma neza.

Ni abakinnyi bambaye imipira y'umweru ndetse n'amakabutura y'imikara, aho bari kwishimira intsinzi yabo bari mu kibuga ndetse bagaragiwe n'abafana babo. Ibyishimo ni byinshi kuri bo kuko begukanye intsinzi.

Ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, biganjemo abakobwa ndetse n'abahungu, aho bari kwiga bifashishije imashini kugira ngo barusheho kumenya ibigendanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga.

Ni ishuri ryisumbuye ryigishirizwamo abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, aho bari kumwe n'abarimu babo muri laboratwari, bakoresha ibikoresho bitandukanye mu kugenzura imiti bifashisha mu buvuzi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye inkweto z'umukara, amashati y'umweru ndetse na kaki, biganjemo abakobwa n'abahungu aho bari kuganirizwa n'abayobozi b'ishuri.

Ishuri ryigishirizwamo abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ririmo ibikoresho bitandukanye, nk'ameza, intebe, ndetse n'utubati tubitswemo impapuro z'abanyeshuri ndetse n'ibindi bikoresho bya mwarimu bitandukanye.

Inyubako nziza cyane y'itaje iteye amarange y'icyatsi ndetse n'umweru, iruhande rwayo hari ubusitani bwiza cyane bugizwe n'indabo na pasiparumu ndetse n'ibiti byiza cyane biteye muri ubwo busitani.

Uruzitiro runini cyane rwubakishije amatafari ahiye ndetse rukikijwe n'ubusitani bwiza cyane buteyemo pasiparumu ndetse n'indabo, uru ruzitiro ruzitiye ikigo nderabuzima gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Ishuri rinini cyane ryigirwamo n'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye biganjemo abakobwa n'abahungu. Bakurikiye ku kibaho bareba ibyo mwarimu abigisha kugira ngo ngo bazabashe gutsinda neza ibizamini ndetse n'amasuzumabumenyi.

Ishuri ryubatse neza cyane ndetse ry'igorofa risakaje amabati y'ubururu, iruhande rwaryo hari ubusitani bwiza cyane higanjemo indabo na pasiparume ndetse n'utuyira tunyuzemo abanyeshuri banyuramo bajya mu ishuri.

Ikigo cy'ishuri giherereye ahantu ku musozi, cyiganjemo abanyeshuri b'abakobwa ndetse n'abahungu, aho bari kumwe n'abarimu babo, babereka uburyo bakoramo isuku ku nkengero z'iryo shuri.

Ni ishuri riherereye ahantu hatari umuhanda. Ryiganjemo intebe zitandukanye ndetse n'ikibaho cy'umukara, aho mwarimu yifashisha ingwa yigisha abanyeshuri be kugira ngo babashe kunguka ubumenyi.

Ni ikigo cy'ishuri cyiganjemo inyubako zisakaje amabati y'ubururu, ndetse kizitijwe urukuta rw'amatafari ahiye. abanyeshuri baguma mu kigo mo imbere, bagataha amasaha ageze.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza biganjemo abakobwa ndetse n'abahungu, bateraniye mu kibuga giherereye imbere y'ishuri ryabo, baganirizwa na mwarimu wabo ku bigendanye n'uko isuku igomba gukorwa mu ishuri.

Ni ishuri rinini riteye amarangi y'umweru ndetse ririmo ibirahure byiza. Ryiganjemo imashini zitandukanye, aho abanyeshuri bazifashisha bigiramo ibijyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga.

Ni abanyeshuri biganjemo abagabo ndetse n'abagore, biga mu mashuri ya kaminuza, aho abarimu babo babahurije hamwe baganira ku bigendanye n'imyigire yabo.

Mu isomero ryiganjemo ibitabo bitandukanye birimo iby'imibare, iby'Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'andi masomo atandukanye, aho abanyeshuri biga kuri iri shuri baza gutiramo ibitabo byo gusoma igihe babikeneye.

Ni ikigo cy'ishuri cyigishirizwaho abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho bakoranirijwe ku kibuga cyegereye ishuri ryabo kumwe n'abayobozi babo kugira ngo baganirizwe ku bigendanye n'amategeko n'amabwiriza agenga ishuri.

Ishuri rinini cyane ryigishirizwamo abanyeshuri biga muri kaminuza. Abayobozi b'iri shuri bicaranye mu biro baganira kugira ngo bungurane ibitekerezo ku myigishirize y'abanyeshuri biga muri aya mashuri makuru.

Ni ishuri rinini cyane ryigishirizwamo abana b'incuke, ryiganjemo intebe ndetse n'ameza ndetse n'ibishushanyo by'amabara atandukanye yiganjemo umweru, ubururu, umuhondo ndetse n'ayandi yifashishwa na mwarimu mu gusobanurira abana amabara.

Ishuri rinini ryigishirizwamo abanyeshuri b'inshuke, aho ryiganjemo ibishushanyo by'amabara atandukanye, mwarimu yifashisha mu gusobanurira abanyeshuri ibigendanye n'amasomo abigisha.

Isomero rigari cyane, riherereye mu kigo cy'ishuri ndetse hakabamo n'intebe abanyeshuri bicaraho igihe bashatse gusoma ibitabo muri iri somero. Ni byiza kubungabunga ibitabo kugira ngo bitangirika.

Inyubako nziza cyane yiganjemo amashuri yigishirizwamo abanyeshuri b'incuke ndetse n'abasegonderi. Iruhande rwayo hari ubusitani bwiza, aho abanyeshuri baruhukiramo igihe amasaha yo kuruhuka ageze.

Icyapa kinini cyane gihanitse ku muhanda, ahantu hari ubusitani ndetse hateye n'indabo zigaragaza ko hafi aho hari resitora itangirwamo amafunguro atandukanye, ndetse igatanga n'ibyo kunywa ku ababikeneye.

Ni inyubako nini cyane, irimo intebe, ndetse n'ameza, n'ibindi bikoresho bitandukanye. Abanyeshuri bayigiramo igihe biri ngombwa, cyane cyane abiga amasiyanse, iyo baje kureba ibikoresho bifashisha.

Ishuri ryigishirizwamo abana b'inshuke, harimo ameza ndetse n'intebe bicaraho biga, udukombe ndetse n'ibindi bishushanyo by'amabara atandukanye mwarimu wabo yifashisha mu kubigisha abasobanurira neza amasomo biga.

Ikigo cy'ishuri giherereye hafi y'umuhanda wa kaburimbo. Iruhande rwacyo hakikijwe indabo ndetse na pasiparumu nziza cyane, aho abanyeshuri bicaramo baruhuka cyangwa se bagakoraniramo inama n'abarezi babo.

Ni ishuri rinini cyane ryiganjemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwigisha imibare, higanjemo amarati atandukanye y'uruziga ndetse n'amaremare afashishwa na mwarimu mu kwereka abanyeshuri uko bashushanya ibinyampande bitandukanye.

Ishuri riherereye hafi y'umuhanda rigezwemo n'icyumba cyigishirizwamo ibigendanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga ribitswemo imashini abanyeshuri bifashisha mu kwiga iryo somo.

Ni ikigo cy'ishuri cyiganjemo inyubako ndende cyane zishakaje amabati atukura. Iruhande rwacyo hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibibuga bikinirwamo imikino y'intoki nka basket ndetse na voley.

Umwarimu wambaye ishati y'umukara, amataratara ndetse n'ipantaro y'umukara, ahagaze hafi y'ikibaho, yigisha asobanurira abanyeshuri ku bigendanye n'isomo ry'imibare ari kugisha. Ni byiza kwigisha neza abana kugira ngo bazatsinde.

Ishuri rinini cyane ryigishirizwamo abantu b'urubyiruko, biganjemo ababyeyi b'abagabo, ndetse n'abagore, aho bari guhugurwa ku bigendanye n'ibyo bakora, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ishuri ryubatse neza ririmo ibikoresho bitandukanye intebe, ameza, ndetse n'utubati. Umwarimu arimo arigisha abanyeshuri bakurikiye kugirango babashe gusobanukirwa ibyo abigisha.

Ni ishuri rinini cyane ryiganjemo abanyeshuri b'abakobwa ndetse n'abahungu, bafite amakayi n'amakaramu ndetse bakurikiye ibyo mwarimu yigisha ku kibaho, kugira ngo bazabashe gutsinda ibizami.

Ni inyubako nini cyane kandi nziza isakaje amabati atukura, iruhande rwayo hari indabo ndetse n'imodoka nziza y'umukara, bigaragara ko nyiri izi nzu yateye imbere ku rwego rushimishije.

Ni nzu nini cyane ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti itandukanye ibitse mu macupa, iy'imiti yifashishwa mu gukingira imyaka ndetse ikanaterwamo kugira ngo irinde ibyonyi byataka imyaka.

Ishuri rinini cyane, ryigirwamo n'abanyeshuri b'amashuri yisumbuye, aho buri wese afite mashine ye akurikiye ibyo mwarimu yigisha akabasha kubisubiramo, cyane cyane bigendanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga.

Ni ishuri rinini cyane ryiganjemo utubati dutandukanye, ameza ndetse na komputa, ryifashishwa n'abarimu mu kwigisha abanyeshuri uko komputa ikoreshwa kugira ngo babashe kumenya neza ibigendanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga.

Ni inyubako nini cyane igizwe n'amagorofa atatu, isakaje amabati y'umutuku, ndetse iruhande rwayo hari icyumba kinini cyane gikorerwamo inama. Aho gikoraniyemo abagabo n'abagore, baganira ku mishinga yabo.

abanyeshuri biga ubuvuzi bw'amatungo aho bahuriye muri raboratwari kugira ngo basuzume bakoresheje ibipimo, bitegereza neza ko, imiti iri muri raboratwari ari icyo yakora ku ndwara z'amatungo atandukanye.

Ni igipangu kinini cyane, cyegereye umuhanda wa kaburimbo, gifite icyapa iruhande rwacyo cyanditseho amagambo agaragaza imirimo ikorerwa mo imbere muri icyo gipangu, ni byiza gukoresha ibyapa igihe biri ngombwa kuko biyobora abagenzi.